Kwegereza abaturarwanda amazi meza, ni imwe mu ngamba Leta y'u Rwanda yiyemeje, mu rwego rwo kurwanya isuku nkeya, ituruka mu gukoresha amazi atari meza.

Gutoza abana bato cyane gukaraba amazi meza n'isabune, ni ingenzi kuko bibarinda kurwara indwara zaturutse ku mwanda, ikindi bakamenya ko mu gihe bagiye kurya cyangwa se bagiye gufata ikindi kintu, bagomba gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda indwara.

Ni byiza kuba hafi umuntu ufite ibibazo, wihebye, kuko bimufasha kumva agaruye icyizere cy'ubuzima, ndetse kandi akumva atari wenyine, bityo bikaba byamurinda gutekereza kwiyahura, ndetse no kwiyambura ubuzima.

Imodoka y'imbangukiragutabara, yagenewe gutabara abarwayi bari ku bigo nderabuzima barembye, babajyana ku bindi bitaro, ndetse kandi inatabara n'abantu bakomeretse, igihe ku muhanda runaka habaye impanuka.

Siporo ni ubuzima, siporo ifasha umuntu kumva ameze neza, ikindi siporo ituma umuntu atarwaragurika, indwara za hato na hato, siporo ituma umuntu agira ubuzima buzira umuze, mbese muri rusange agatandukana no kurwara. Indwara za hato na hato.

Ni byiza guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye, kuko bimwe muri ibyo bihingwa ari umuti uvura abantu indwara zigiye zitandukanye, zimwe na zimwe zigoye gukira.